Imbuga irimo ibyatsi iteraniyemo abantu bicaye hasi, hari abayobozi imbere yabo bicaye ku ntebe z'icyatsi ndetse n'ubururu, hakurya hari urutoki ruvanzemo ibiti by'amapoto, ibya avoka ndetse n'amazu ari hagati.

Icyapa kigaragaza uko amakipe yatsindanye mu Murenge Kagame Cup, umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane-ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Abagore kimwe cya munani Karangazi yatsinze zeru kuri bitatu bya Mukama, Musheri bitatu kuri bibiri bya Kiyombe ndetse n'andi.